Ku kigo nderabuzima hari ababyeyi benshi bicaye bafite abana babana n'imirire mibi, abaganga bari kubitaho, abandi babagira inama y'uburyo bakita ku bana kugira ngo bave mu mirire mibi, babahereza indyo yuzuye.

Umwana arunamye yambaye ikabutura y'umutuku n'agapira k'amaboko maremare, ari kunywa amazi kuri robine akoresheje ibiganza bye, hasi hari indobo inyuma hari inzu ifite amarangi y'ubwoko butandukanye n'ibyatsi.

Umugore arunamye ahetse umwana ari mu masuku, imbere ye hari robine, inyuma ye hari ibiti bifite amababi y'icyatsi, hirya ye gato hari indobo ifite umupfundikizo w'ubururu.

Abanyeshuri barunamye bakikijwe n'indabo z'umuhondo barimo baroga intoki, hirya yabo hari undi mwana uhagaze yifashe mu mufuka, hagati hari umwana wambaye amasogisi y'umuhondo, baragaragara bishimye cyane bari mu gikorwa cy'isuku cyo koga intoki.

Abajyanama b'ubuzima barahagaze barishimye cyane bambaye amataburiya y'ubururu, abajyanama b'ubuzima bashinzwe gufasha, bashinzwe gufasha abaturage mu buryo bworoshye mu gihe habayeho umurwayi utunguranye, ntibibe ngombwa ko yahita yihutanwa kwa muganga.

Umwana arunamye yambaye umupira w'umutuku, agakabutura k'ubururu, afite igikombe, ari imbere ya robine arimo aravoma amazi.

Umwana ukiri muto arunamye arimo aroga intoki kuri robine imbere ye hari ibase, isuku ni nziza cyane ituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Abamama batatu, babiri barunamye undi ari inyuma yabo arahagaze, begereye amajerekani abiri, bari kuzamura amazi, begereye icyapa, inyuma yabo hari ibiti by'icyatsi.

Abana bambaye impuzankano barimo gukaraba intoki birinda indwara ziterwa n'umwanda kuko izo ndwara harimo kuba wanapfa, iyo ukomeje kugira isuku nyinshi cyane cyane nko mu bigo by'amashuri bituma ugira ubuzima bwiza.

Umumama wirabura urimo guseka, yambaye ijile y'umuhondo y'abakozi ba MTN, arimo gucuruza ibiribwa by'ubwoko butandukanye, higanjemo ibirungo bimanitse muri etageri.

Umusaza usheshe akanguhe yambaye ingofero, ishati, yambaye akantu k'umuhondo, afite uburwayi bwo mu mutwe arimo guseka cyane.

Ikigo cy'ubuvuzi gishinzwe uburwayi bwo mu mutwe giherereye i Ndera, kita ku barwayi bo mu mutwe bafite indwara nyinshi zitandukanye, hahagaze umugabo ushinzwe gukurikirana abafite ubwo burwayi.

Umumama ufite abana babiri, umwe aramuhetse, aricaye ku gatebe kagufi cyane bakunda kwita agasongabugari, ari guteka igikoma cy'abana, barishimye cyane ari kubitaho.

Abana benshi cyane bari ku kigo cy'amashuri, bari gukora isuku y'amenyo mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda zo mu kanwa, birinda impumuro mbi mu kanwa n'izindi ndwara ziterwa n'umwanda.

Ku kigo cy'amashuri haje abaganga batandukanye baje gutanga amabwiriza atandukanye, umuganga umwe ari kumwe n'umwana ari kumuhereza akantu, umwana arimo kukitegereza cyane yegeranye n'umuganga.

Umukobwa w'inzobe wambaye isengeri y'umweru ufite imisatsi y'umukara, arimo gukora isuku y'amenyo, mu buryo bwo kwirinda impumuro mbi mu kanwa no n'ifumbi n'izindi ndwara.

Mu cyumba cyo kwa muganga cyagenewe abarwayi, umusaza ukuze cyane udafite imbaraga, umugangakazi aramufashe, amufatishije ku kagare kagenewe abarwayi badafite imbaraga.

Umukecuru usheshe akanguhe aricaye ari kwa muganga, arimo arareba ariko afite ijisho rimwe bamushyiriyeho akantu karinda rya jisho ryangiritse kuba ryagira ikindi kibazo mo imbere.

Abagangakazi babiri barahagaze, bambaye udupfukamunwa, bari kwita ku murwayi w'umumama wicaye ku ntebe, ararembye cyane, arababara, bari kumwitaho.

Abagangakazi batatu barahagaze bari kwitegereza, bambaye amataburiya y'ubururu, biteze udutambaro tw'umweru, bari uruhande rw'ubusitani, inyuma yabo hari indabo, hari imikindo.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibitanda byinshi, harimo umurwayi uryamye, iruhande rwe hari umuganga uri kumumanurira inzitiramibu irinda umubu utera malariya.

Hano hari Forumasi, itanga imiti myinshi itandukanye, hari umumotari uvanyeho umugabo uje kugura imiti, arahagaze, ategereje ko abaganga bamuhereza imiti.

Abantu bagaragara bari mu nyubako y'ivuriro ry'akarere ka Kayonza ryitwa Gahini, baricaye barimo kwiga ku burwayi bw'abaturage.

Icyumba cy'abarwayi cyo kwa muganga cyagenewe igitsina gore, harimo abarwayi babiri baryamye, umwe aricaye umuganga w'umumama wambaye itaburiya y'umweru arimo kumureba cyane amwitaho.

Kwa muganga hari ibitanda biryamyeho abarwayi bambaye udupfukamunwa, mu buryo bwo kwirinda indwara zandurira mu buhumekero, hari abaganga barimo kubitaho babiri bambaye amataburiye.

Ivuriro ryiza cyane rifite isuku, hirya y'aho hari itente ry'umweru rikikijwe n'indabo z'umuhondo, ivuriro rivura uburwayi bw'amaso.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga itanga ibyumba muri bamwe mu barwayi baba bafite indwara zikomeye cyane, badafite imbaraga zo kuvurwa bataha, bahabwa ibitanda byo kuryamaho kugira ngo bakurikiranwe n'abaganga mu buryo bworoshye.

Inyubako yo kwa muganga ifite ibyumba byinshi byiza bigaragara neza ku muntu ubireba, ni inyubako ikorerwamo ibintu bitandukanye by'ubuvuzi cyangwa ibindi bintu.

Farumasi nziza cyane iri mu nyubako iherereye i Remera mu mujyi wa Kigali, icuruza imiti myinshi y'ubwoko butandukanye, yifashishwa ku muturage ugize uburwayi butunguranye, adafite uburyo ahita agana kwa muganga.

Abantu benshi bari mu myitozo ngororamubiri, imbere yabo hari ibiti byiza cyane. Imyitozo ngororamubiri ni igikorwa cyiza cyane umuntu wayikoze ntaho ahurira n'uburwayi bw'umubiri cyangwa ubundi burwayi.

Ivuriro rishinzwe kuvura abasirikare bo mu gihugu cy'u Rwanda riherereye i Kanombe, ni ivuriro ryiza cyane ryita ku ngabo z'igihugu, rikorerwamo abasirikare.

Umusore arunamye, ari mu myitozo ngororamubiri, kuko ari byiza cyane, bituma umuntu adasaza vuba cyangwa ngo uhure n'izindi ndwara zo mu mitsi; bituma ubaho neza cyane.

Umukobwa aricaye yambaye umupira muremure w'amaboko maremare afashe, afite uburwayi bw'ukuguru hariho igipfuko, agikoreshejeho intoki asa nk'uri kubabara cyane.

Abantu bari mu miti ya Kinyarwanda bari kuyitunganya neza bayikurikirana kugira ngo ijye igera ku barwayi yujuje ubuziranenge, ntibe yabatera ikibazo cy'umubiri mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Umumama arahagaze yambaye akitero k'umweru afite agasakoshi k'ukuboko, arimo arasoroma imiti ya kinyarwanda ivura uburwayi butandukanye bw'umubiri.

Amavaze menshi y'ubwoko butandukanye arimo imiti myinshi ya Kinyarwanda, bakunda kwitaho cyane bagirira isuku kugira ngo ijye igera ku barwayi yujuje ubuziranenge.

Imiti ya kinyarwanda myinshi y'ubwoko butandukanye, umuntu yafashe ubwoko bumwe muri iyo miti abushyira mu kantu, arasa nk'uri guhonda kugira ngo atunganye iyo miti ibone uburyo bayikoresha imeze neza.